Mu kigo cy'amashuri harimo inyubako zigiye zitandukanye, aho mu busitani hari indobo iteretse kuri kandagira ukarabe ndetse n'akabasi.

Ikigo cy'amashuri aho gikoteye, ku bikuta hari irangi ry'umweru, hashushanyijeho ibikoresho nk'umwiko ndetse n'ingorofani byakozwe n'abanyabugeni.

Igitabo cy'abana bo mu mashuri abanza aho handitse gusiga amabara mu mashusho y'inyamaswa imyaka ine kugera kuri itandatu, kuri icyo gishushanyo hakaba hariho ihene, ifi ndetse n'injangwe.

Icyumba kigirwamo n'abana bo mu mashuri y'inshuke aho harimo imitako igiye itandukanye ibafasha mu myigire yabo ya buri munsi bagafata bitabagoye.

Ikigo cy'amashuri cya Nyagatare aho bigisha ubuforomo n'ububyaza maze bakagira uruhare mu gihugu cyacu muri izo serivisi bafasha abaturage.

Uruziga ruriho karoti, ibigori, inyanya, amaronji, amagi, umwana w'umukobwa, umugore ndetse n'akandi gatoya, aho byose ari ibiribwa byifashishwa.

Ikigo cy'amashuri gifite imiryango igiye itandukanye, kugira ngo abanyeshuri babashe kubona aho bakurikiranira amasomo yabo. Hanze hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, riri mu mabara atandukanye.

Abagabo batandatu n'umugore umwe bahagaze mu muhanda w'igitaka aho bari gufata ifoto y'urwibutso, haruguru yabo hari amashuri afite amadirishya asize irange ry'ubururu.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba, bigiye bitandukanye, bimwe bifite inzugi zisize amabara y'icyatsi, izindi umuhondo. Mu mbuga harimo ubusitani ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Urupapuro ruriho amarati agiye atandukanye ndetse n'ikeleyo, aho byifashishwa n'umuntu ugiye gushushanya cyane cyane abanyeshuri biga isomo rizwi nk'Imibare.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako zigiye zitandukanye, aho mbere yo kwinjira hari lavabo, aho abantu bakarabira kugira ngo birinde umwanda, ahubwo bagire isuku aho bari hose.

Icyumba k'isomero, kirimo, ibitabo by'amoko yose. Ibiri, mu ndimi, z'ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa, igiswahili, n'izindi. Aho washishikariza abana bawe, nk'umubyeyi kuhagana.

Ikigo cy'amashuri abanza hari amashuri menshi afite amadirishya y'icyatsi n'inzugi, mu busitani harimo pasiparume n'ibiti bifite amashami agaye.

Icyumba cy'ishuri cy'abana bo mu mashuri y'incuke, aho harimo akameza ndetse n'udutebe tugiye turi mu mabara y'umutuku n'ubururu ndetse n'ibishushanyo, bitatse ku bikuta.

Imbuga irimo ibikoresho bitandukanye higanjemo ibikinisho biri mu mabara y'ubururu, umuhondo, umutuku, pinki ndetse n'umweru, imbere yaho hari ibiti by'amabara meza.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hariho REB. Ni ikigo gifasha abantu mu bijyanye n'uburezi, kugira ngo abana bose bige, kandi bahakure ubumenyi.

Utubaho twinshi turimo udukinisho twifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke aho bituma bamenya imibare mu buryo bworoshye ndetse bikorohera n'abarimu babo.

Icyumba cy'ishuri kirimo irange ry'umuhondo ndetse n'ikibaho cyanditseho imbere, abana b'abanyeshuri bicaye ku ntebe bakurikiye imbere mwarimu wabo.

Imbuga nini yubatsemo amashuri aho ifite imiryango igiye itandukanye, hagati harimo ubusitani ndetse n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, riri mu ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Icyumba kigari, kigiramo abana, bo mu mashuri y'inshuke, harimo udutebe dutoya, ndetse n'utumeza twatwo, bigiye biri mu mabara, atandukanye.

Abana bato b'abanyeshuri, bamwe bambaye impuzankano z'umuhondo n'icyatsi, abandi ubururu ndetse harimo n'abambaye umweru, aho bicaye ahantu hamwe bari guhabwa inyigisho.

Ikigo cy'amashuri gifite amazu ashaje cyane, aho hagati harimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire. Hakurya hatuye abaturage basanzwe ndetse n'imirima irimo urutoki.

Ikigo cy'amashuri harimo umwana wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'ubururu, inyuma ye hari ubusitani, ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti by'amashami agaye.

Abanyeshuri b'abana b'abakobwa bambaye impuzankano ziri mo ibara ry'umweru ijipo y'umukara, amasogisi, inkweto ndetse na karuvati aho bari gufata ifoto.

Abanyeshuri bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri bambaye impuzankano zamashati y'umweru, amapantaro y'umukara n'amajipo ya kaki aho bari gufata ifoto.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu bambaye impuzankano zisa, inyuma yabo hari amashuri afite inzugi z'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umuhondo, umukara n'icyatsi, bari mu kibuga gikoteye, aho bari kugezwaho, amatangazo agiye atandukanye.

Umusore w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afite igikombe yahawe k'ishimwe aho kiri mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'umweru.

Urubyiruko rwambaye impuzankano z'umweru n'ubururu, ruri gufata ifoto y'urwibutso, aho buri wese afite icyemezo cy'ishimwe, kiri mu ibara ry'umweru.

Icyumba cy'ishuri, gifite amatafari ahiye, hicayemo abanyeshuri, buri wese ku ntebe ye, bari gukora ikizam kugira ngo bajye mu mwaka ukurikiye.

Icyumba k'ishuri cyicayemo abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, ameza ateretse imbere yabo ariho mudasobwa ebyiri ndetse n'umugozi uyicomeka hakajyamo umuriro.

Abana b'abanyeshuri bari mu muhanda w'igitaka aho bambaye imipira y'ubururu, umuhondo ndetse n'amashati y'umweru, inyuma yabo hari ishyamba ryinshi.

Imbuga irimo inzu y'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho hari abagabo babiri bari kuhatambuka, bafasha aba bana mu myigire.

Icyumba gito gisize irangi ry'umweru, harimo kizimyamwoto izimya ahabaye inkongi y'umuriro, hicayemo umugore ufite ikaramu n'ikayi ndetse n'uducupa tw'amazi imbere ye.

Abana b'abanyeshuri bari mu kigero k'imyaka cumi n'itatu na cumi n'itanu, bari mu cyumba kirimo amatafari ahiye aho bari kuririmba bafite n'ingoma.

Abana b'abanyeshuri, bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu, bambaye impuzankano, ziri mu mabara asa, inyuma yabo hari ibiti bifite amashami maremare, aho bitanga umuyaga.

Akayira k'abanyamaguru karimo amapave ,hirya no hino hari indabo z'amabara meza. Hari kandi puberi ishyirwamo imyanda kirindwa kuyikwirakwiza ahantu hose.

Icyumba hasi harimo sima, hicayemo umugabo, ufite ikayi ebyiri, ikaramu, marikeli ndetse na telefone, byose birambitse ku meza.

Icyapa cyanditseho ko icyumweru cyo gusenga, aho hazatarama amakorali agiye atandukanye ndetse hakazaba hari n'umupasiteri Dr Karangwa, aho azaba yigisha ibijyanye n'ijambo ry'imana.

Umusore w'imibiri yombi, wambaye agapira k'umukara, afite mudasobwa imbere ye, iteretse ku meza, inyuma ye hari utubati turimo ibitabo by'amoko yose.

Icyumba cy'inama kirimo ibitambaro bifite amabara y'umweru, ubururu, ndetse n'icyatsi. Hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, aho bafite mudasobwa imbere yabo.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe n'ameza, aho hicaye abanyeshuri bari gukora ikizami, umwe hari telefone imbere ye.

Igikuta, gishushanyijeho umukobwa, wambaye imyenda igezweho, afite ishakoshi mu ntoki, n'ikirahure mu kiganza, aho byakozwe n'umunyabugeni wabihuguriwe.

Icyumba gitakishijeje ibitambaro by'umweru, hicayemo abantu benshi biganjemo urubyiruko, aho bambaye imipira y'imyeru ndetse n'utuntu tw'ubururu mu ijosi, ku meza hateretseho amacupa y'amazi.